Akantu kameze nk'igitukuma gafite amabara ya move, gafite utuntu tumeze nkaho hari utuntu twudukinisho...

Abana baricaye hasi ku kumukeka, bari kunywa, abandi bari kuganira, harimo abasutse ndetse n'utwana, tumeze nk'aho turwaye bwaki.

Abana b'abanyeshuri bari gukina umupira bari kumwe na mwarimu wabo harimo umwana ufite imbago, bambaye inifomo hejuru ishati y'ubururu n'ijipo z'ubururu n'ikabutura z'ubururu.

Abana benshi bari kumwe n'ababyeyi ndetse n'abarimu, umwarimu yambaye itaburiya y'umweru, agapira k'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweta z'umweru, abana bambaye udupfukamunwa, ndetse n'abantu bose bari aho bambaye udupfukamunwa.

Ikintu bakoresha mu isabukuru y'umuntu, gifite ibara ry'umuhondo hejuru, hasi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, mu rurimi rw'icyongereza, happy birthday. N'inyenyeri z'umuhondo.

Abantu bane, harimo umugore n'umugabo, bafite akana kambaye akantu k'ubururu n'umukara, imbere ye hari umugore, ufite icupa ry'amazi ku meza.

Ibipupe bibiri biri kurebana, bifite ibara ry'umuhondo, kuruhande hari, akandi gafite ibara ry'umutuku, ndetse bifite amaso y'umukara.

Gurude yamazi irisa na orange iriho akana k'agapupe ndetse iriho n'utuntu tumeze nk'imishumi n'agafuniko gasa na move.

Ibitabo by'icyongereza harimo icyanditseho akajangwe buhoro, ndetse n'ibindi biriho akana gasunika igare, ndetse n'ibiriho ingagi.

Irati imwe ni umuhondo, indi iri mu ibara ry'icyatsi, indi ndende iri mu ibara ry'ubururu, akandi kari mu ibara ry'umuhondo wijimye, akandi kari mu ibara ry'umutuku.

Abana babiri, hejuru barimo gutambuka no hasi hari abandi barimo koza imeza n'intebe, undi arimo gukoropa.

Inzu ihagazeho abagabo batatu n'abagore batatu, bose barimbaye udupfukamunwa, umugore umwe yambaye imikenyero ijya gusa umutuku ndetse n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu imbere harimo agashati k'umweru.

Inzu iri, imbere yaho hari moto isize amarangi y'umweru n'ubururu isakaje amabati y'umweru, ku ruhande rwayo hari ishyamba.

Ibitabo bine birimo ik'ikinyarwanda cy'umwaka wa gatatu, n'icy'umwaka wa mbere, n'icy'umwaka wa kabiri, ndetse n'ikindi kiriho abana bambaye imyenda y'umutuku.

Akabari karimo amatara ari kwaka ndetse gafite inzugi z'umuhondo n'ameza y'umuhondo andi y'ubururu n'intebe z'umutuku ndetse n'izindi z'ubururu.

Akantu kameze nka kirida karambuye gafite ibara ry'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'ikijuju, hejuru hariho akandi kantu gafite ibara ry'ubururu ndetse handitsemo n'ijambo raki.

Abantu batatu bafite ikintu batoye mu ntoki bose bambaye udupfukamunwa, abagore babiri bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'amarinete, undi mugabo nt'amarinete yambaye ahubwo yambaye agapfukamunwa k'umukara.

Udutabo tw'ubwoko butandukanye, hariho akariho inuma hari akandi kariho umwana ari munsi y'umutaka ndetse n'akandi kariho igiti, iruhande rwaho hari nibindi bintu by'umweru.

Ikinyugunyugu gifite amabara y'umweru, umuhondo, umukara, ikijuju ndetse gifashe uturabyo, dufite amabara y'umuhondo na move.

Umwana ari kumwe n'umuntu mukuru, afite akantu kameze nk'inkoni ariko ku gikuta, yambaye umupira w'icyatsi urimo imirongo y'umweru.

Igitabo cyanditseho amagambo ubugeni n'umuco. Hariho abana barimo gukina, abandi bari ku meza, barimo baraganira hariho imibare rimwe, kabiri, gatatu.

Inzu yubakishijwe amabati y'umutuku, iri mu marange y'umutuku n'umuhondo n'umweru, imbere hari jaride y'utwatsi n'umukindo, handitseho amagambo ikigo nderabuzima cya Musanze.

Seti irimo ibikoresho byo mu ishuri, harimo agacongesho, amarati ndetse n'utundi twuma dukoreshwa mu gushushanya inziga ndetse na kereyo.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'ubururu n'inkweto z'umuhondo, imbere hari kandagira ukarabe y'ubururu na kabase k'icyatsi n'abana batatu.

Abanyeshuri bari kwifotoza, bambaye amashati y'umweru n'amapantaro, bamwe y'umukara abandi ya kaki, inkweto bamwe z'umweru, abandi z'umukara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, bambaye udupfukamunwa tumwe turasa dusa ubururu abandi dusa ikijuju, bari kureba muri mashini umwe yifashe ku kaboko ndetse no ku ruhande rwe hari abandi bari kureba mu mashini imwe ari babiri.

Abantu batatu b'urubyiruko umwe yambaye agapfukamunwa n'impuzangano z'umweru n'umukara, imbere yabo hari ameza ari igitambaro cy'icyatsi n'akabogisi k'umweru n'ubururu.

Umwarimu uri mwishuri yambaye amarinete yambaye itaburiya afite impapuro mu ntoki n`ingwa ,abana bambaye inifomo zisa ubururu barimo' nabambaye imipira isa icyatsi.

Abanyeshuri batatu, bari gukaraba kuri kandagirukarabe, bambaye impuzankano hasi umweru, hejuru umuhondo, inyuma yabo hari umugabo wambaye ijire y'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, hasi ni ijipo ya kake, hejuru ishati y'umweru, iriho sinye y'ikigo, iri mu ibara rya kaki.

Abana bafite seritifica iri mu ibara ry'umukara n'mweru, bambaye ishati z'umweru, zose zisa kandi barimo guseka.

Abantu benshi bahagaze basa nkaho bari kwifotoza bambaye bamwe amarinete, abandi bambaye karuvate n'amashati y'umweru n'amapantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Umugore warakaye arimo kureba imbere cyane yasutse imisatsi, yambaye amaherena, afite utuntu mu ntoki ndetse yambaye ishati irimo amabara atandukanye umweru n'icyatsi.

Abantu bambaye amakanzu yo kudefanda, batereye ingofero mu kirere z'umukara ndetse bamanitse ibiganza byabo.

Abantu benshi, bahagaze ahantu imbere y'amashuri, harimo umugore wambaye amarinette n'umugabo urimo gutambuka, afite ibitabo mu ntoki ze.

Abasore batatu n'umukobwa umwe hagati, hari amarembo yinjira akazu k'abazamu ndetse n'umusore yambaye ikoti rimeze nk'irya gisirikare.

Abantu bambaye amakanzu yo kudefanda, bamwe bari kuri terefone, hari abagabo imbere yabo bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, ndetse iruhande rwabo, hari intebe zisa umukara.

Ahantu haparikwa amagare, hari amabati y'ubururu, inyuma yaho hari inzu ifite amabati y'ubururu ndetse n'ibiti, haparitsemo amagare atatu, imbere yaho hari umusore wambaye agapira k'umukara, ikoboyi y'ubururu n'inkweto z'umweru.

Umuhanda unyurwamo n'abantu hariho ku ruhande jaride irimo indabyo z'umuhondo n'iz'icyatsi n'iz'umweru imbere hari ibiti.

Urugi rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, meyini layiburari iruhande rwaho hari ayandi magambo yanditse mu ibara ry'umukara o zeru ikenda.